Gurupe y'abantu bishimye bavuye mu birori bambaye impuzankano hari abagore n'abagabo n'abana barishimye cyane baraseka imbere y'inzu wagira ngo hari umuntu waje kubasura cyangwa se bakorana bari kureba.

Itsinda ry'abantu bari kumwe, arimo abagabo n'abagore bari imbere yo kwa muganga bari kumwe n'umuganga harimo mugabo bisa naho uri umuyobozi wambaye ijire harimo inzu y'ibitaro.

Gurupe y'abantu bari hamwe bishimye bameze nk'abakora akazi kamwe bambaye impuzankano hari n'abatazambaye harimo abagabo, abagore, n'abana barimo abicaye n'abahagaze bicaye mu ihema abandi bahagaze imbere yaryo ndetse bicaye ahantu hari natire hameze neza.

Abantu babiri muri sare, intebe, ameza, migiseri, kompiyuta, umuntu umwe arahagaze undi aricaye, intebe zitariho abantu, ameza adafite ibintu biriho.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kumwe, bari mu itsinda rimwe, bari mu ikintu kimwe k'igikorwa, harimo umugabo ufite mikoro uri kugenda uvuga, urupapuro harimo abapolisi, ndetse n'abandi bantu, harimo abapolisi bafite icyapa, harimo n'abandi ba polisi babaherekeje, harimo.

Munzu mu cyumba gikorerwamo siporo harimo intebe harimo ibipima, udupima, harimo isah,a kabati, harimo.

Umuhungu cyangwa umusore wambaye umupira w'umweru, ari kwireba mu kirahure yafashe ku munwa, arishimye, hari ikihure, hari idirishya, ibara ry'inzu rirasa umweru.

Umugabo uri guseka usa neza yambaye rinete, uri kwitunga agatoki, yambaye iherene ku zuru, afite ubwanwa bwiza, afite umupira w'umweru yambaye, amenyo meza, inyinya y'umutuku, ku gutwi yambaye yarapfumuye.

Umuntu ubana n'ubumuga, dore na muganga, muganga ari kumufata ibipimo, muganga yicaye mu ntebe, hari intebe, hari yicaye mu kagare umuntu ufite ubumuga, ikigaragara arishimye, yishimiye we na muganga barishimanye, ibyo ari kumufasha, ari kumuha serivisi nziza buriya.

Umwana na se bari gusoma igitabo, buri wese afite agakombe ke, kabonwaho bicaye bashishikaye bari guseka hari utubati, hari imeza, hari ni.

Abaganga, umurwayi, imashini ipima, udutiyo ducometse ku mashini zindi zihagaze ,abarwayi.

Ahantu basengera, umuntu uri gusobanurira abantu cyangwa se ari kubigisha, aho bavugira ibyo basoma, micro, abantu bicaye, hariho n'ibigaraga ko abantu bahavuye, utwo bari bari kunywa.

Urujya n'uruza rw'abantu aho bajya kwaka serivisi, inzu, kuri iriya nzu harimo ibyerekezo by'umuhanda, harimo imihanda ibiri, harasa neza n'ibiti, abantu bari kugendana batatu hari n'abandi bantu bari kugenda haruguru kuko bose baje garafata serivisi kuri iyi nzu.

Mu nzu mu cyumba cy'umwana, harimo igitanda cy'umwana araramo, harimo udushusho tw'umwana, harimo aho akarabira abyutse, harimo aho abika imyenda n'ibindi bikoresho bye, harimo intebe yicaraho abyutse, harimo ameza akoresha, harimo akantu akoreraho siporo, ndi kubona amarido, harimo itara ndetse hari n'akagaragaza ko bwakeye.

Muri sale aho batangira inkingo, hari ubana n'ubumuga ari mu kagare kwa muganga hari ameza ibikoresho byo kwa muganga aho bashyira imyanda hari abadafite akazi bari kuganira.

Akaboko k'umuntu bigaragara ko yari afite ikibazo mu kundi kuboko, hari ikintu yarambitseho afite akandi kaboko yafatishijeho, yambaye ishati y'umweru yahinnye, ukuboko kuragaragara neza yambaye n'ipantaro y'umukara.

Isabune bakaraba, amavuta, imiti, icupa ririmo ibintu by'umukara, ishashi irimo arigi n'ibindi.